Aba ni abaturage bari mu bice by'icyaro basanze umujyanama w'ubuzima bagiye kwivuza ndetse no kwisuzumisha, biragaragara ko umubyeyi yatwaye umwana we, ndetse uyu mujyanama w'ubuzima ari kumwitaho, amufasha amuganiriza ashaka kumenya ikibazo afite.

Uyu mwana bari kumukarabya bakoresheje amazi meza n'isabune. Isabune ni nziza kuko idufasha gukura imyanda yose ndetse ikica na mikorobe ziri mu biganza, bari gukoresha igikombe cy'icyatsi kibisi kizwi nka jage, jage usibye kuyikoresha bakarabya banayibikamo ibintu, inakoreshwa ibindi bigiye bitandukanye nko gukamirwamo ndetse n'ibindi.

Mu myaka yashize higeze gutera icyorezo cya Ebola, na n'ubu ntaho cyagiye, iyi ndwara yaterwaga n'umwanda mwinshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'uko bigaragara aba bantu bari hano muri aya mashusho, bisa nk'aho bari guhabwa ubukangurambaga ku bijyanye n'iyi ndwara, nubwo hari umuntu uryamye hasi umeze nk'aho apfukamye, bisa nk'aho ayirwaye cyangwa se hari ikindi kibazo afitanye n'abantu bari hano.

Aba bana barishimye ndetse bafite ibitabo, bambaye impuzankano z'ishuri, bigaragara ko ari abanyeshuri, bari kumwe n'umwarimu cyangwa se umurezi wabo, uko bigaragara basa nk'abasuye ikigo nderabuzima kugira ngo bisuzumishe indwara zigiye zitandukanye, cyangwa se bigireho ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima.

Hano ni mu kigo nderabuzima cyangwa se mu bitaro, hari umubyeyi, umwana ndetse n'undi mubyeyi bisa nkaho ari umuganga wambaye itaburiya ndetse na ga cyangwa se uturindantoki, umubyeyi wundi yaje gusuzumisha umwana we kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze, ni byiza ko ababyeyi bose bakurikirana ubuzima bw'abana babo.

Aba bantu bagaragara hano bari mu nama, ndetse bamwe bagiye bambara imipira isa, iy'icyatsi, abandi bambaye umweru, iyi nama wasanga ari inama ikomeye, kubera ko buri wese yicaranye icupa ry'amazi, ndetse arakurikiye, afite aho kwandika n'ikaramu, bambaye udupfukamuwa kugira ngo babashe kwirinda kwanduzanya indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero.

Iki ni kimwe mu bikorwa remezo bifasha abantu mu kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo cyitwa uruganda, haragaragara umugabo wambaye ibikoresho by'ubwirinzi ingofero ndetse n'amasarubeti, hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kazi ka buri munsi.

Aba baturage bisa nkaho bari baje mu nama. Hari n'abagabo bambaye amakarita cyangwa se bage Bigaragara ko ari abayobozi cyangwa se ari bo bari bateguye inama. Hari n'ibendera ndetse n'icyapa cyangwase pankarite kigaragaza aho bari bari bisa nk nkaho ari kuri biro y'umurenge. Ni byiza ko abaturage bose bo mu gihugu bazajya bitabira inama.

Uyu mugabo n'umwana bisa nk'aho umwana ari kumwe n'umubyeyi we ariko n’ubwo bimeze bityo basa nk'abakuriye mu buzima butari bwiza bw'ubuhunzi ndetse n'ubukene. Impamvu mbivuze ni ikimenyetso cya UNICEF, ni umuryango ugiye ufasha abantu baturuka mu miryango itandukanye ikennye, ijire umu papa yambaye irabigaragaza ndetse no ku jerekani umwana yikoreye biriho.

Utu dukoresho dukoreshwa mu gihe cy'ubuvuzi bw'amenyo, bikunze gusangwa mu bitaro bigiye bikomeye kuko utapfa kubisanga mu bitaro byoroheje, bikura amenyo ndetse bikanayakorera isuku.

iki cyumba kirimo intebe nziza, ndetse n'izindi mashini zisizwe mu mabara agiye atandukanye. Icyumba bisa nkaho ari icyumba cy'ubuvuzi, kuko harimo intebe y'umurwayi ndetse n'iya muganga. Ndetse harimo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi.

Aba bamama bari gukora imyitozo ngororamubiri izwi nka siporo, uw'imbere ni mukuru cyane, uw'inyuma we aracyari mutoya, ku myaka iyo ari yo yose waba ufite ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bikomeza amagufwa bikakongera n'iminsi yo kubaho.

Aha haragaragara umumama usa nkaho akuze nubwo adakuze cyane, ariko nubwo akuze ari muri siporo, bivuze ko ashobora kuba ari mu kigo cyita ku bantu bageze mu za bukuru, kibafasha kugira amasaziro meza, kugira ngo babashe kubaho neza, bagire ubuzima buzira umuze.

Uyu ni umugore n'umugabo, ariko nubwo ari umugore n'umugabo, umugabo arakuze cyane kurusha umugore, bishoboka ko ashobora kuba ari n'umukobwa we, niba ari umukobwa we ari kumwitaho kugira ngo amufashe kugira amasaziro meza, aho kuguma yigunze ari wenyine.

Hano haragaragara umugabo uri mu masuku ndetse wambaye imyenda yifunze cyane kugirango abashe kwirinda, imeze nka yayindi bajya bambara muri kovide cumi n'icyenda bisa nk'aho ari nabwo iyi foto yafashwe, hari akadobo k'icyatsi bari kuvomeramo amazi, kugirango babashe kuyakoresha isuku.

Hano ni ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. Ibigo nderabuzima bigiye biba mu mirenge igiye itandukanye, hose mu gihugu cy'u Rwanda. Bifasha abantu kujya kwivuza, bagahabwa imiti ndetse n'urembye bakabasha kumwitaho, bakamwohereza ku bitaro bikuru by'akarere.

Iyi nzu irasa neza. Isizwe amarangi y'umweru n'ay'umuhondo. Hanze hari jaride imeze neza hateye indabo. Hari n'icyapa gifasha abagenzi kumenya aho bajya. Nk'uko bigaragara ni inyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Aba bantu babiri umugore n'umwana, biragaragara ko umwana yaje kwivuza, umugore akaba ari muganga, ari kumwitaho amupima ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze, ni byiza ko umuntu yajya kwa muganga kwisuzumisha yaba arwaye cyangwa atarwaye kugira ngo amenye ko ahagaze.

Iki gikorwa remezo ni ibitaro, ni ibitaro bi bita Hopital La Croix du Sud kwa Nyirinkwaya, hajyayo abarwayi batandukanye ndetse indwara yose waba urwaye wajyayo ukivuza, bakagusuzuma, bakakugira inama, ukabasha kumenya uko umubiri wawe uhagaze n'ukuntu wakomeza kwirinda ndetse no kuwukurikirana.

Aha ni kuri Isange one stop center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni kimwe mu bigo byashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ngo babashe kurandura ihohoterwa rishingiye ku bitsina, hahabwe ubutabera abarikorewe.

Aba bantu bari gukina, gukina ni byiza, na yo ni siporo nk'izindi zose, ifasha abantu kugenda birinda indwara zitandukanye, bakabasha kugira ubuzima bwiza, twese nidushishikarire gukora siporo, kuko zidufasha mu mibereho yacu.

Hano haragaragara abantu bari gucuruza imiti, iyi ni imiti ya gakondo, kuko akenshi ni yo usanga icuruzwa iri mu macupa, ikunze gucuruzwa n'abantu bitwa abagorozi, bavuga ko bazi imiti yose y'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Aya ni amavuta ari mu macupa atandukanye ariko akomoka ku gihingwa kimwe cyitwa aloe. Aya mavuta ni meza ku mubiri w'abayisigaya kubera ko atuma umuntu agira umubiri woroshye, ndetse akaba atabasha kugira uruhu rugenda rucikagurika kubera ko aya mavuta abasha kwihanganira izuba, agafasha umuntu kugenda ameze neza cyane.

Ibi byatsi birasa neza, ubibonye wabona ari uturabo twiza tw'umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi ariko mu by'ukuri na byo kimwe n'ibindi bimera twagiye tubona bikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Aha haragaragara umuvuzi gakondo, impamvu umwete umuvuzi gakondo ni uko ikigaragara ari gutegura imiti yifashishije isekuru ndetse n'umuhini byifashishwa mu gutegura imiti gakondo, ibyo bita taradishono medesine, iyi miti ni byiza ni nziza kubera ko ifasha abantu mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye no kuvura izo barwaye.